Umugore wambaye amarineti ndetse n'ikanzu ijya gusa nk'umutuku, ari gukoma mu mashyi inyuma ye hari abandi bantu benshi bitegereje kandi bigaragara ko bari mu nama.

Umugabo ufite indangururamajwi mu ntoki yambaye karuvati ndetse n'amadarubindi. Yambaye ikoti ry'umukara, ahagaze imbere ku kabati, ari kuvuga areba imbaga, bigaragara ko arigeza ijambo ku bamukurikiye.

Abantu benshi bahagaze mu kibuga, bamwe bari gukoma amashyi. Ni abagore n'abagabo, harimo bamwe bitwikiriye umutaka bigaragara ko ariko ku zuba ryinshi cyane.

Abantu benshi bicaye ndetse imbere yabo hari umugore ubyibushye cyane wifubitse agatambaro, afite indangururamajwi mu ntoki bigaragara ko ari kubagezaho ubutumwa runaka.

Abantu benshi bicaye mu cyumba k'inama abagore n'abagabo, barangamiye imbere bigaragara ko hari umuntu uri kubaha ikiganiro.

Ihuriro ry'abantu benshi batandukanye bicaye ku ntebe zi pulasitiki z'umweru ndetse bambaye imyenda itandukanye bari mu ihema bigaragara ko baje mu birori.

Abasore babiri b'ababyinnyi bafite amacumu mu ntoki, ni intore umwe ari imbere afite n'ingabo mu ntoki, bose barakenyeye imyenda bakoresha babyina.

Ibiseke bibiri biteretse hamwe, bizwi ku izina ry'ibyibo, biratatse binogeye amaso harimo amabara y'umukara ndetse n'ay'umuhondo uterurutse cyane.

Umudeli munini cyane uzwi ku izina ry'igiseke, urapfundikiye kandi uboshye neza cyane, harimo amabara y'umukara ndetse n'ayenda kuba umweru uterurutse cyane.

Ababyinnyi ndetse n'abakaraza b'ingoma, imbere hari umugabo wizihiwe abyina ndetse afite indangururamajwi mu ntoki, abandi na bo bari inyuma ye bakenyeye kandi bari gukoma ingoma cyane bizihiwe.

Ababyinnyi babyina cyane bizihiwe abasore ndetse n'inkumi, abasore bambaye urunigi mu ijosi bambaye imyenda y'imikara ndetse n'imikenyero y'umuhondo, na ho abakobwa bo bakenyeye imyenda y'umweru ndetse na bo bambaye urunigi mu ijosi.

Umugabo wize ibijyanye no gukora imiriro y'amashanyarazi yuriye ipoto ku rwego rurerure cyane, ari guhuza insinga bigaragara ko nta muriro wari uhari akaba arimo kuwuhashyira.

Abagabo benshi bambaye ingofero z'akazi zibarinda mu gihe bakoze impanuka kuba bakwangirika cyane bari ku mapoto aho barimo gukora ku bijyanye n'umuriro w'amashanyarazi.

Amapoto abiri ashinze atwara amashanyarazi, hariho insinga eshatu ndetse hakaba hari n'igihuru hafi aho imbere y'agahanda k'igitaka kazamuka.

Ipoto itwara amasinga y'amashanyarazi iri hagati na hagati, hari umukozi ukora mu kigo gishinzwe gusakaza cyangwa se gutanga amashanyarazi mu Rwanda yuriye bigaragara ko ari kubitekinika cyangwa se abikora kuko byagize ikibazo, hasi hari umugabo umwitegereza areba ibyo akora na we ukora muri icyo kigo.

Imodoka iri kugenda mu muhanda munini wa kaburimbo nijoro, amatara yo ku muhanda aracanye kandi ari kwaka, gusa ntibiyibuza kugenda kuko haba habona.

Insinga z'amashanyarazi cyangwa se inzira zitwara umuriro w'amashanyarazi, zirareze cyane kandi ziri mu kirere hari n'amapoto zifatiyeho izo nsinga.

inyubako nini cyane y'igorofa igeretse inshuro eshatu, iri ahantu hitaruye hejuru hari ikirere gifite ibicu birimo ibara ry'umukara, hanze y'iyo nzu hahinze ibyatsi bifite ibara ry'icyatsi kibisi cyane.

Ikiraro kinyura hejuru mu kirere, kiri hagati mu ishyamba. Kiri gutambukaho umuntu utwaye moto. Icyo kiraro kandi gifite uruzitiro ku buryo umuntu atabasha guhubuka.

Icyapa gikundwa gushyirwa ahantu hari ibiro ndetse kiba kiriho indangagaciro na kirazira, kikagira idarapo ry'u Rwanda ndetse n'Ikirangantego cy'Igihugu cy'u Rwanda.

Umugabo wambaye ishati y'umutuku n'isaha ku kaboko, yambaye n'impeta, aravugira mu ndangururamajwi yizihiwe hari abandi bantu bicaye hasi bamuteze amatwi.

Umusaza ubyibushye cyane afite n'inda nini yambaye amarinete kandi ateze ingofero y'umuhondo, yambaye amarineti ndetse afite n'indangururamajwi mu ntoki ari imbere y'imbaga y'abantu ari kuvuga ijambo.

Abayobozi batandukanye harimo umugore ukenyeye imikenyero ndetse n'abagabo babiri bambaye amashati y'ubururu, bari kumwe n'abapolisi babiri, n'umugore uri ku ruhande ukinyeye imikenyero.

Abana b'abakobwa bambaye imipira y'ivu bicaye hasi ndetse bose bambaye n'amapantaro yumukara n'inkweto z'umukara, bigaragara ko bari mu gihe cyo kwibuka, bose bafite amabuji mu ntoki ari kwaka.

Umugabo ndetse n'umusore bari kwifotoza aha umusore urupapuro rumwemerera ko hari amahugurwa wenda yafashe, inyuma ya hari abantu bahagaze harimo abagore batatu bakenyeye ibisa.

Icyapa kinini kiriho umusaraba, kiriho igice cyo hejuru kiriho ibara ry'icyatsi kibisi, handitseho amagambo bigaragaza ko ari icyapa kirangira abantu ku rusengero runaka.

Abantu benshi cyane bafite amasuka, abandi ibitiyo bigaragara ko bari gukora umuganda, n'ahantu mu cyaro cyane bari gukora umuhanda utambika, harimo abasirikari ndetse n'abandi baturage muri rusange.

Abagabo bari kubaka inzu y'amatafari ya rukarakara ndetse n'ibyondo, harimo umusirikare ateruye itafari mu ntoki ndetse n'umupolisi iruhande rwe wambaye ingofero, wambaye n'amarineti

Abantu benshi bateraniye hamwe munsi y'igiti, baricaye barangamiye umuyobozi ufite indangururamajwi mu ntoki ndetse n'urupapuro, ari kubasomera bigaragara ko bari mu nama.

Abantu bari ku musozi ahantu hari ibiti byinshi cyane, bigaragara ko barimo gutashya inkwi ndetse harimo n'abagaragara ko barimo kwahiramo kuko bigaragara ko harimo n'ubwatsi.

Abantu benshi bafite ibitiyo, amasuka, bari gukora umuganda baharura umuhanda ndetse bakuraho n'ibihuru batemura n'ibiti bishaje, bari ahantu hamwe ndetse inyuma yabo hari umusirikare.

Abantu benshi bari gukora umuganda, bari guharura ndetse banongera umuhanda harimo n'abo mu nzego z'umutekano umusirikari, umudaso ndetse n'umupolisi, abenshi bafite amasuka ndetse n'ibitiyo.

Ikibuga kinini cy'umupira w'amaguru kirimo umugore uri gutera umupira, imbere ye hari umugabo wambaye inkweto za butini ari kumwitegereza.

Abantu benshi bari mu myitozo ngororamubiri. bari kwirukanka barambuye amaguru cyane ndetse n'amaboko ajya imbere. Ni benshi ku buryo kumenya umubare wabo bigoranye.

Imodoka y'umweru y'agatagisi iragenda mu muhanda munini wa kaburimbo, inyuma yayo hari abantu mu gikundi batwaye amagare.

Abana b'abakobwa bari mu kibuga bari gukina umupira w'amaguru, bamwe bambaye impuzankano y'umukara, abandi bambaye amakabutura y'umukara ndetse n'imipira itukura.

Umwana w'umuhungu ukiri mutoya ufite nk'imyaka itanu, arikunyonga ikiziga cy'ipine ry'igare mu muhanda munini wa kaburimbo gusa arahagaze ari kwitegereza inyuma.

Abakobwa babiri b'inkumi bari kugenda imbere y'umuhanda wa kaburimbo, bose bari gushingura intambwe bihuta umwe atwaye umutaka mu ntoki, bageze ku ivuriro ryigenga.

Umugabo wambaye isengeri y'umuhondo, ari kunyonga igare mu muhanda munini wa kaburimbo. Inyuma ye hari iyi moto iri kugenda mu cyerekezo gitandukanye n'icye kandi imbere y'umuhanda hari inzu z'ubucuruzi.

Umukobwa w'inkumi aragenda yihuta cyane mu muhanda, atwaye agakapu mu ntoki ndetse afite na terefone mu ntoki, yambaye inkweto z'umukara ndetse n'ipantaro y'umukara aragenda yihuta cyane.